Ubworozi bw'inka busigaye bwarateye imbere cyane, aho abantu basigaye bazubakira mu biraro byazo maze bakajya bazorora bakazitaho maze na zo zikazabaha umusaruro mu gihe kiri imbere.